Ibigo by'imari bifasha abaturarwanda mu kubitsa, kubikura ndetse n'izindi serivisi nko kohereza amafaranga, bityo rero ni ngombwa ko serivise zabo zegerezwa abaturarwanda aho bari aho ariho hose.

Uyu ni umunyamakuru wagiye ahabereye ibirori kugira ngo afate ibyahaberewe muri make abitangarize abanyarwanda.

Iki ni ikigo k'imari aho gifasha abantu mu kubitsa, kubikuza ndetse no gusaba inguzanyo y'amafaranga runaka. Bikabafasha abaturage mu kwiteza imbere ndetse no mu gufasha abandi uko babika amafaranga yabo.

Uburyo bwo kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga byaroroherejwe mu Rwanda, kandi no kohereza amafaranga avuye ku muntu umwe ajya ku wundi mu buryo bw'ikoranabuhanga byaroroshye bitewe n'ibigo byinshi by'ikoranabuhanga, bifasha abaturage muri ibyo byavuzwe haruguru.

Iyi ni inzu itangirwamo serivisi zo kubitsa ndetse no kubikura. Ikaba ifasha abaturage kubika amafaranga binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse no kuyabona byoroshye batiriwe bagera mu mpande nyinshi z'igihugu zitandukanye.

Aba ni abakozi bakora mu kigo cy'itumanaho aho bari gufasha abaturage mu kubona serivisi zabyo ndetse bikanabafasha mu kubitsa kubikura ndetse no kubona inshuti binyuze muri abo bakozi.

Ibigo by'itumanaho bigira imirongo itandukanye, bifasha rero abaturage mu kubona uko babitsa amafaranga yabo mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuyabikuza ndetse no koherezanya mu buryo bworoshye.

Iyi ni inyubako irimo umumama aho afasha abantu mu kubaha ibyo bakeneye buri munsi birimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bikabafasha mu kubaho neza kandi bigafasha n'abaturage mu kugabanya ingendo bajya ku masoko.

Uyu ni umugabo aho ari gutanga ijambo mu mbwirwaruhame aho ari gutanga impanuro, ndetse n'amabwiriza abantu bazajya bagenderaho, ndetse akaba ari gutanga ishusho rusange y'uko ibyo arimo bigaragara.

Amashyirahamwe ndetse n'ibindi bigo by'imari bidufasha mu kwiteza imbere ndetse no mu kubika amafaranga tuba dufite, bityo rero tugomba kuyagana kugira ngo bidufashe mu gutegura ejo hacu hazaza.

Aba ni umugabo ndetse n'umugore bihangiye umurimo wo kubumba ibijyanye n'imbabura zikaba zikoreshwa mu guteka ndetse zikaba zijyamo ibicanwa byitwa amakara bifasha mu guteka ibiryo abantu barya bya buri munsi.

Iri ni' ishyirahamwe ry'abantu aho bafatanya mu kubika amafaranga yabo ,ndetse no mu gushaka ibyabateza imbere, ibi bikabafasha mu kubona uburyo bwose bwabafasha, mu ku kwiteza imbere ,ndetse no mu gufatanya kugira ngo bagere kure.

Abantu bishyize hamwe bagakora itsinda nta kibananira bafatanya mu kugera ku ntego zabo bihaye ndetse bagafatanya no kwiteza imbere binyuze mu bikorwa bakora kandi bagafatanya n'abayobozi babo gushakira ibibazo bihari ibisubizo.

Aka ni akabari aho gafasha abantu mu kwakirwa binyuze mu binyobwa ndetse n'ibiribwa kandi bigafasha abantu mu kuganira bikabahuza kandi bigatanga n'aho baruhukira.

Iyi ni inzu abantu bifashisha banywa ndetse banarya kandi ikaba ifasha abantu mu kwicara bakaganira ndetse bagahuza n'ibitekerezo.

Inyubako zimwe na zimwe zirubakwa kugira ngo hagire ibyo abantu bakoreramo bityo hari n'izagenewe ko abantu bazajya baza kwiyashyiriramo ndetse bakicara bakanaganira.

Kunywa ukarenza urugero ntabwo ari byiza, bityo buri wese aba agomba kunywa mu rugero. Kandi tugafatanya kugira ngo tuzamure ubucuti binyuze mu kuganira ku binyobwa.

Imivinyu n'imwe mu byo abantu bakoresha bizihirwa ndetse bikabafasha no kuganira, ibi bikaba biboneka mu nzu zabugenewe, aho baba barateguriye ahantu ho abantu bakwicara bafata ibyo byo kunywa ndetse baganira ku bintu bitandukanye.

Uyu ni umucuruzi ucuruza ibikoresho by'ibanze harimo ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Bikaba bifasha abaturage kubaho neza ndetse no kwirinda urugendo rurerure bajya ku masoko.

Hari abakora urugendo rurerure bajya gushaka ibyo barya, by'umwihariko ibiva mu Ingando bityo hari inzu zabugenewe, aho abantu bacururizamo iby'ibanze kandi bifasha abaturage mu kwirinda ingendo ndende bajya ku masoko.

Iyi ni ipaki y'amasogisi iri mu iduka aho yifashishwa mu kwambarwa imbere y'inkweto ndetse akaba yifashishwa n'abanyeshuri ndetse n'abandi bo mu ngeri zitandukanye.

Kubona ibyo turya hafi yacu cyane cyane ibituruka mu nganda ni akazi gakomeye gakorwa na ba rwiyemezamirimo, bityo rero tugomba gushyira imbaraga nyinshi mu kubona ibyo dukeneye cyane by'umwihariko aho abantu bari batwegereye.

Iyi ni inzu na ho irimo ibijyanye n'ibinyobwa, imyenda, amasahani ndetse n'ibindi birimo: uburoso aho byifashishwa n'abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse no mu gufata ibi ku isuku.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye, birimo amasabune, impapuro z'isuku, ibyo kurya, imyenda, uburoso ndetse n'ibindi, ni hamwe mu hifashishwa n'abaturage, bagiye kuhareba, ibyo bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iyi ni inzu irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho bafasha abantu mu kubisana ndetse no kubikora ibyangiritse.

Izi n'intebe zifashishwa n'abacuruzi, aho zifasha abacuruzi ndetse n'abaguzi mu kuba baruhutse mu gihe bategereje abakiriya, cyangwa se mu gihe bategereje abaza gufata serivisi cyangwa se kandi bakaba bicara bategereje ababaha serivisi runaka.

Inyubako ziri mu nsisiro, ni hamwe mu hafasha abaturage kubona ibyoku kurya ndetse n'ibyo kunywa hafi, bityo tugomba gushyiraho uruhare runini mu gufasha abantu kubona ibyokurya ndetse n'ibyo kunywa biboroheye.

Aya n'amasoko aho hagurishirizwa ibijyanye n'imyenda, inzitiramibu zifashishwa mu kurinda malariya ndetse hakagurishwa n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu nzu, kandi ibi bigafasha abantu mu kugaragara neza mu ruhame.

Insengero nka hamwe mu hatangirwa inyigisho zijyanye no kugaburira roho ndetse n'andi masomo, yaba ari ayo mu buzima busanzwe ni ngombwa rero ko abakoramo na bo baba barabihuguriwe ndetse bakaduha n'inyigisho zadufasha.

Ni ngombwa ko dufatanya n'abayobozi badufasha mu kudushakira ibisubizo by'ibibazo bihari kandi inzu zabugenewe bakoramo, na zo zigomba kuba zifite isuku ihagije kandi zitadushyira ahatujyana mu byago.

Hari ibikorwa byinshi ,bifitiye akamaro ku baturarwanda bityo rero tugomba kubaka, ahantu henshi hatanga akazi ,harimo aho abantu bafatira amafunguro, ndetse n'izindi nyubako.

Inzu zabugenewe ziha abantu aho kuruhukira, ni ngombwa ko hategurirwa ibyoku kurya byiza kandi birimo intungamubiri zose kandi bagafasha buri muntu wese uhageze batitaye uko asa, uwo ari we ndetse n'icyo akeneye.

Inzu ifite umuryango w'umukara, ifite igipangu ndetse inageretse, ni imwe mu zifasha abantu kuruhuka, ndetse no kuhafatira amafunguro haba aya mu gitondo, saa sita ndetse n'aya nimugoroba, kandi ikabafasha no mu kuganira by'umwihariko ibijyanye n'akazi.

Abantu cyane cyane abaturage: abakuze, abana ndetse n'abandi b'ingeri zitandukanye, bamaze kwisobanukirwa aho bajya ahantu bakaganira mu buryo bworoshye kandi bikabafasha no kugira icyo bageraho binyuze mu biganiro bagirana iyo bari mu nzu zabugenewe.

Aha ni ahafatirwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa kandi hagacumbikira n'abantu rero hagomba kuba hafite amasuku ndetse bagafasha n'abantu mu buryo bw'umutekano.

Izi ni inzu mberabyombi aho hakoreshwa n'abaturage mu kwiyakira haba mu gufata ifunguro rya mu gitondo, irya saa sita ndetse n'irya nimugoroba kandi hakaba hakoreshwa nk'ahabera inama kandi hakaba hafashwe hakoreshwa n'abaturage nk'ahantu ho kuruhukira.

Aba ni abayobozi b'inzu rusange aho ikoreshwa mu kwakira inama, kuhafatira ifunguro rya mu gitondo saa sita ndetse na nimugoroba ndetse no kuruhukira aho, ibi kandi bikabafasha no mu kumenyana bitewe n'inama nyinshi zihabera.

Inzu zabugenewe zakira abantu baje kuruhuka, inama ndetse n'ibindi, ni ngombwa ko habamo aho bakorera imyitozo ngororamubiri kuko bibafasha mu kuruhuka ndetse no mu kubona ibitekerezo bishya.

Inzu zabugenewe zifasha abantu kuruhuka ndetse no gufata amafunguro ya mu gitondo, saa sita ndetse na nimugoroba, ni ngombwa ko haba aho kuruhukira heza kandi habafasha mu kwisanzura kwabo.

Aha ni aho abantu biyakirira ndetse hakaba hanabera inama rusange. Hakaba hafatirwa amafunguro ya mu gitondo, saa sita ndetse na nimugoroba. Ndetse hakaba hari n'amacumbi afasha abantu bahagannye kuruhuka.

Ahafatirwa ibyo kurya ni ngombwa ko hagira isuku ihagije kandi bigategurwa mu buryo bwabugenewe, kuko iyo bitateguwe neza, bitanga indwara kuba babifashe ndetse bigatuma hari n'abatakaza ubuzima.

Iyi ni inzu mberabyombi ihurizamo abantu b'ingeri zitandukanye, haba abaje gufata amafunguro, haba aya mu gitondo saa sita ndetse na nimugoroba, ikaba kandi ihuza abaje mu nama ndetse n'abashaka kuruhuka ikaba ibafasha.

Iyi ni inzu yifashishwa n'abantu baje kuruhuka. Iki akaba ari igitanda, kiriho uburiri abaje kuharuhukira baryamaho.

Iyi ni inyubako iberamo ibijyanye no kwiyakira, kuryama ndetse no guhuza urugwiro kw'abantu, iyi nyubako kandi ikaba ifasha mu kwakira inama z'abantu kandi ikaba ifasha mu guhuza abantu b'ingeri zose.

Iki ni icyumba cyo mu nzu rusange zikoreshwa n'abantu baje kuruhuka kibamo inzitiramibu, matela ndetse n'ibindi, ibi bigafasha uharuhukiye kuryama neza ndetse no kwirinda indwara zitandukanye zirimo malariya.

Iri n'iduka ricuruza inkweto by'umwihariko zifunguye, hakaba harimo inkweto z'abana, abasore ndetse n'abakuru.

Uyu ni umugabo aho ari gucuruza imyenda, inkweto, ndetse akaba ari mu isoko aho harimo n'abandi bari gucuruza ibintu bigiye bitandukanye, ibi bigafasha abaturage kubona ibyo bakeneye bya buri munsi hafi yabo.

Mu nsinsiro aho turi, ni ngombwa ko tuhashyira amasoko aduha ibyo dukeneye bya buri munsi by'umwihariko bituruka mu nganda, kandi bikadufasha no kwiteza imbere muri make tukabona ibyo duha imiryango yacu biturutse mu nyungu tuba twakoze.

Iri ni isoko aho abaturage bifashisha bagurishiriza imyaka yabo ndetse hakaba hanagurishishirizwa ibijyanye n'imyenda, imbuto ndetse n'ibindi bikoresho byose byo mu nzu kandi hakaba hahuriza abantu benshi bityo bikanabafasha no kumenyana.

Aba ni abaturage aho baje gucuruza ibikomoka ku buhinzi harimo inyanya, imboga ibi bikaba byifashishwa n'abaturage nk'ifunguro ryabo rya buri munsi.

Aha naho bafatira amafunguro mu gitondo, saa sita ndetse na nimugoroba. Aha kandi hakaba hafasha abantu bashaka kuganira by'umwihariko abakundana ndetse n'imiryango kugira ngo babahe ahantu hatuje ndetse bafatira imyanzuro imwe n'imwe yabafasha mu buzima bwabo.

Abantu iyo bashonje cyangwa se bakeneye amafunguro , byarorohejwe kuko hari inzu zabugenewe aho abantu bafatira ibyo kurya, ndetse n'ibyo kunywa haba mu gitondo saa sita ndetse na nimugoroba.

Ahafatirwa ibyo kurya haba ibya mu gitondo, saa sita ndetse na nimugoroba, ni ngombwa ko hakorwa amasuku kandi hagashyirwamo n'ahabugenewe abantu baganirira mu gihe byaba bibaye ngombwa.

Umugabo uri ku kinyabiziga cy'ipikipiki, akaba afasha abantu mu kubatwara, abavana ahantu hamwe abajyana ahandi ndetse akanabafasha mu bijyanye no kubatwarira imizigo yaba iremereye.

Abaturage cyane cyane b'u Rwanda bamaze kwiteza imbere, aho bagura ibinyabiziga bibafasha mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi kandi bikoroshya ingendo zabo bakora za buri munsi.

Kuva ahantu hamwe ujya ahandi ni ngombwa ko tubikora vuba kandi twifashishije ibikoresho byabugenewe, bityo rero abantu bose badufasha mu gutwara imizigo ndetse no kudutwara ubwacu, tuba tugomba kububaha.

Uyu ni umutwaza w'ibinyabiziga by'umwihariko icyitwa moto, uyu akaba afasha abaturage mu kubavana ahantu hamwe abajyana ahandi. Bikabafasha kandi mu kwihuta bihutisha serivisi zitandukanye ndetse no kutanga serivisi mu buryo bwihuse.

Umugabo n'umugore aho bari ku kinyabiziga cyitwa moto, bigaragara ko bari kuva ahantu hamwe bajya ahandi. Ibi bikabafasha mu kwihuta mu ngendo zabo ndetse no mu kwihutana ibicuruzwa cyangwa se indi serivisi yaba agiye gutanga.